Aya ni amashuri ya Leta，aya niyo twigiramo amenshi aba yarubakishijwe n'amatafari， afite jaride nziza. Nagushishikariza nawe kuzajya uraza kwiga muri aya mashuri ya Leta，kubera ko ni ay’ingirakamaro cyane cyane， nawe uzaze wigemo muri aya mashuri yacu.

Ingemwe z'imisave ni nziza cyane . Kubera ko imisave ibamo imbaho zikomeye cyane cyane, iyo barakoresha nka za dizayini, cyangwa iyo bashaka gukoresha utuntu tugiye dutandukanye.

Iyo bari gukora urutindo rw'iwacu kugirango tujye tugenderaho tumeze neza, ruriya nirwo rwiza, ni rwiza cyane cyane kuko rutuma tunyuraho tumeze, dufite umutekano nta kibazo dufite. Rero nagushishikariza nawe kujya tukajya dufasha abantu kugira ngo twubake u Rwanda rwacu.

Amashu ni meza cyane, kubera ko adufasha gukora imboga kandi aba aryoshye, amashu kandi yera vuba, ugereranyije n'ibindi bihingwa, kuko atanga n'umusaruro mwinshi, cyane cyane iyo wayahinze, ugashyiraho n'ifumbire.